Abagabo babiri baratera umuti igihingwa cyabo cy'umuceri bakoresheje utumashini twabugenewe ndetse bikaba ngombwa ko babanza kwipfuka kugira ngo uyu muti utabagiraho ingaruka.

Mu gutanga imiti ndetse n'amafumbire y'imvaruganda yifashishwa n'abaturage mu guhinga ndetse no gutunganya ibishanga, ibigo bishinzwe iyo gahunda byavuze ko byashyizeho igabanyirizwa rya cumi na gatanu ku ijana.

gutera umuti ibimera bimwe na bimwe bituma umusaruro wabyo wiyongera, bitewe n'uko ibyangizwa n'udukoko tw'ibihingwa biba bikeya ugereranyije n'igihe umuti watewe.

Gutera imiti ibihingwa bitandukanye by'imbuto bituma udukoko twibasira ibiti ndetse n'amababi yabyo tugabanuka bitewe nuko igihe bidakozwe bityo umusaruro uba muke.

Mu kiyaga cya Kivu hari benshi bakomeje kuvuga ko igihe bari kuroba bibaviramo no kuhatakariza ubuzima, bitewe n'uko ubwato buba bwaratobotse maze hajya mo amazi bukaba bwakwibira bugapfa.

Abakora ubworozi bw'amafi mu bishanga bahitamo kugaburira amafi yabo ibyo kurya bikorerwa mu nganda, aho babishyira mu kadobo ubundi bakajya bafata duke duke bakamijagira hejuru y'amazi.

Ubworozi bw'amafi biri mu bintu biri kuzamura Igihugu ndetse n'abantu bakagira ubuzima bwiza babona umusaruro uturuka ku mafi, nk'uko umwe mu bajene biteje imbere mu Karere ka Nyagatare abigarukaho.

Ibikorwa by'ubworozi mu gihugu cya Nepal hari igihe abantu babifata nk'aho bisanzwe ariko bo ntabwo ari bimeze bitewe n'uko buri rugo rwose ruba rufite nibura ibidendezi bine by'amafi kugira ngo rwihaze mu biribwa.

Mu gihe abantu bakomeje gushishikarizwa gukoresha ibituruka ku matungo nk'imwe mu ngamba yo guhangana n'imirire mibi, hari benshi bavuga ko ubworozi bw'amafi nabwo bugomba gushyirwamo ingufu kuko zikungahaye ku byubaka umubiri.

Abakora ibikorwa by'uburobyi mu kiyaga cya Kivu bavuga yuko igihe amafi arobwe atari yakura bituma umusaruro wayo udindira bitewe n'uko aba akiri matoya.

Kawa yera mu majyaruguru itandukanye cyane n'iyera mu burengerazuba bitewe n'uko mu birunga ari ho hantu haba ifumbire nziza kandi ituma kawa igira imbuto zikomeye kandi zibyibushye.

Mu guteza imbere ubuhinzi bwa kawa mu Rwanda birakwiye ko abantu bamenya agaciro kayo ndetse bakanayihinga bazi umumaro wabyo kuko hari benshi bayihinga ariko ntibayinywe.

Gusarura neza igihingwa cya kawa ku gihe bifasha mu kwirinda ko cyatakaza akamaro kacyo igihe kihunguye kikagwa hasi bitewe n'uburangare bwo gutinda kugisarura.

Kawa nayo ni igihingwa gitanga amafaranga ndetse kikanjiza amadovize menshi ku ruhando mpuzamahanga, kuko ifite umwihariko cyane cyane ihingwa mu karere ka nyaruguru.

Ikawa y'u Rwanda ikomeje kuba ubukombe, ku ruhando mpuzamahanga, bitewe n'uburyo iba ifite uburyohe ntagereranywa, ugereranyije n'izindi zose, zituruka muri afurika ndetse no ku Isi yose.

Guhinga ikawa ahantu hatari ubutumburuke burebure bituma ibasha gukura neza kandi ikisanzura, bityo igatanga umusaruro amafaranga akinjira mu gihugu ndetse n'umuturage wayihinze akagera inyungu abonamo.

Abasaruzi b'icyayi bavuga yuko ari byiza cyane kwitwararika igihe uri gusorora icyayi bitewe n'uko iyo ucyangije ubutaha utongera kugisarura.

Imbuto zihunitse mu bihoho zishobora gutanga umusaruro mwinshi kubera yuko ziba zarabonye amazi atandukanye, Ibyo bigatuma buri wese akora iki gikorwa cyo guhunika imbuto mu bihoho.

Ikawa nyinshi ziri gutoranywa Kandi zikarebwamo ibintu bishobora gutuma zitakaza umwimerere wazo, abaturage bakaba bari kujonjoramo izitameze neza ngo bazijugunye.

Mu gusorana icyayi ni ngombwa ko buri wese yitwararika kandi akirinda kugikomeretsa, kuko igihe gisoromwe nabi bishobora guteza igihombo gikomeye Leta ndetse n'abaturage bagihinga.

Ababyeyi barishimira uburyo babonye umusaruro uhagije w'ikawa, ugereranyije n'umwaka washize bitewe n'uko ubu ngubu bahawe imbuto ya kijyambere ndetse na Leta ibaha ifumbire ikwiriye.

Guhinga icyayi, igihe kimaze kwera aba bahinzi barimo bagisarura, ni byiza kuko igihe kitaweho kandi kikuhirwa ku gihe, kigahabwa n'amafumbire ahagije, abagisarura bavuga ko biborohera kubera ko aba ari cyiza.

Imiti y'amatungo imwe n'imwe imenyerewe ku izina ry'ibivuguto, ni imiti bikungahaye ku ma vitamine ndetse n'imyunyungugu kugira ngo itungo iryo ari ryo ryose riyinyweye ribashe kuzamuka neza.

Ibikarito by'imiti y'amatungo magufiya harimo nk'ihene, ibyo bi bikarito bikaba biri mu bwoko bugi butandukanye, aho imiti ivura inzoka ipfunyikwa mu bikarito by'umukara gusa.

Ni ingenzi cyane kwifashisha amafu ndetse akungahaye kuri vitamine agenewe amatungo nk'inkoko, imbata ndetse n'ibindi kugira ngo byongere umusaruro w'amagi.

Mu gushyiraho imiti yabugenewe ndetse n'indi yica inzoka zo mu nda hari amatungo yagiye ashyirwa ku murongo kugira ngo azahabwe uru rukingo bitewe n'uko akomeje kugaragaza ibimenyetso cyane.

Imiti y'amatungo nk'ingurube ndetse n'amatungo maremare nk'inka. Ipfunyikwa mu dupira dukomeye kandi dufite isuku. Aho iyi miti ifasha amatungo gukura kandi ikanayarinda indwara.

Imiti ipfunyitse mu masashe y'umweru ndetse akomeye n'indi iri mu ducupa niyo izwi cyane mu kuvura ndetse no gukumira indwara zibasira amatungo magufi ndetse n'amaremare.

Abagore babiri bari mu gishanga kandi baranezerewe cyane bitewe n'uko imbuto yabo y'ibigori bamaze igihe kirekire bahinga iri kuzamuka neza cyane.

Abahinzi b'ibigori mu bishanga bigiye bitandukanye ni ngombwa ko bahora bakuramo nkongwa ndetse banatera imiti muri ibyo bigori kugira ngo bizagire umusaruro mwiza.

Inka z'inyambo ziza ku isonga mu gutanga umukamo ugereyije n'izindi, abaturage baturiye ishyamba rya Nyungwe bavuga ko igihe bazirekuye zikajya kurishamo hari ubwo zihuriramo n'ibyago byo kuribwa n'inyamaswa.

Ni ngombwa ko abahinzi bita cyane ku bihingwa bahinga, bitewe n'uko igihe batabyitayeho ngo babibaganire ndetse banashyireho ifumbire nta musaruro baba babyitezemo uhagije.

Abakoresha ikibaya cya Gishari bavuga yuko babangamiwe n'uburyo batwara imizigo myinshi ku magare yabo, ubundi bakagenda basunika mu rwego rwo kugira ngo bagere kuri kaburimbo vuba.

Ntabwo ari byiza ko itungo riguha umukamo ndetse rikaguha n'agafumbire uriraza ahantu hatameze neza kandi hasasiye, ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda ishishikariza abahinzi n'aborozi ba kijyambere kubikora kinyamwuga.

Nyuma y'uko imbuto zibonekwa mbere yo kugira ngo zishyirwe mu butaka ahubwo bazishyira mu bihoho kugira ngo abe ariho zizakurira kandi zigire ubukure.

Umugore umwe ndetse n'umugabo bigaragara ko akuze, bitabiriye na bo igikorwa cy'umuganda bitwaza imihoro ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kubafasha mu gihe cy'umuganda.

Abahinzi bajya gusenya mu buryo bwo kugira ngo ibiti bavanyeyo baze babishinge akenshi na kenshi usanga abantu babyita imishingiriro y'ibishyimbo.

Mu gihe inka nyinshi zikomeje gutanga umukamo muke ariko hari abavuga ko korora izizwi nk'inzungu zishobora gutanga icyizere mu gihe zagabanuruwe ubwatsi bwiza bwujuje intungamubiri.

Leta y'u Rwanda ivuga ko gutera ibiti bivangwa n'imyaka nta kintu byangiza ku musaruro wari usanzwe utangwa, bitewe n'uko intungagihingwa zidashobora kunyunyuzwa n'ibyo biti, kubera ko bishobora kubana.

Inka zitanga umukamo izi zimenyerewe nk'imfirizoni, bivugwa ko arizo za mbere mu gutanga umusaruro w'umukamo mwiza kuko zikamwa hagati ya litiro nibura ijana ndetse n'iry'itanu mu cyumweru, ibi bikaba ari byo bituma ziza ku mwanya wa mbere.

Karote eshanu, umwembe umwe, pavulo ndetse n'itunda ni byo bintu bishobora kugufasha guhangana n'indwara z'imirire mibi bitewe n'uko ziba zikungahaye ku mavitamine ndetse n'ibindi.

Gutera imbuto y'ibirayi, ku murongo, bituma, umusaruro wayo uzamuka, bitewe n'uko igihe bihinzwe mu buryo bwa gakondo, umusaruro ugabanyuka cyane.

Mu gihe cyo gusarura umuceri, ni ngombwa ko ibyasigaye igihe bidahawe amatungo bitwikwa ubundi bikavamo ifumbire izakoreshwa mu kindi gihe cy'ihinga.

Birakwiye ko igihe imbuto imaze kumera, mu muhinzi aba agomba kuza akayikorera isuku, ibi bizwi nko kuyibagarira, ubundi agashyiraho ifumbire, byaba ngombwa akanayisasira.

Ibihingwa birimo n'imyumbati ni ngombwa ko bishyirwamo ingufu kuko nabyo byagaragaye ko bitanga umusaruro kandi bigatunga abatari bake nkaho hakurwamo ubugari ndetse n'ibindi byifashishwa mu maresitora.

Ibigori na byo ni byiza mu gihe umuntu wabihinze abihinganya ubushishozi ndetse agakurikiza amabwiriza ahabwa n'abagoronome babishinzwe kuko ikigori igihe gikuze neza gishobora no kuvamo ibiryo by'amatungo.

Igihingwa cy'umuceri igihe kitaweho gishobora no gutanga umusaruro ukomeye cyane ugereranyije n'ibindi kuko mu Rwanda na ho hashyizwe ubu buryo bwo kuwuhinga.

Ibihingwa birimo ibigori ndetse n'ibishyimbo ni ngombwa kugira ngo bishyirwe ahantu hatari ubutumburuke burebure kuko ibi bituma bikora neza kandi akaba aribwo bitanga umusaruro.

Abahinzi b'umuceri mu kiyaga cya mwogo, bavuga yuko bahawe imbuto nziza iturutse mu buyapani bugereranyije n'iyo bari bahinze umwaka ushize, bakavugaga ko icyo gihe yabahombeye.

Iri shyamba ni irya mukura, abantu barigendamo birasabwa ko bitwararika mu gihe cy'imvura cyane cyane, bitewe ko habamo umubu utera malariya kandi igihe wakurumye udashobora gukira byoroheje.

Mu ishyamba rwagati mu karere ka Nyanza, harimo ikintu kimeze nk'ikibuga cy'umupira, aho abantu benshi bajya bakaragirayo amatungo ndetse bakanakina imikino itandukanye.

Gutema amashyamba kenshi bituma habaho impamvu zitandukanye, akaba ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda ibwira abaturage bayo ko igihe umuturage ateyemye igiti kimwe, aba agomba gutera bibiri, kugira ngo bizagumye bisigasira ubutaka ndetse binaburinde isuri.

Ishyamba rya Nyungwe ryagiye rishyirwamo ingufu kugira ngo ribungabunge kandi n'ibinyabuzima birimo bibashe kugira ubuzima bwiza, ni muri urwo rwego hakozwe ubukangurambaga bwo kurwanya abinjiramo ndetse n'aba rutwitsi kugira ngo baryangize.

Bivugwa ko amashyamba akwiye guterwa cyane cyane ku misozi, kugira ngo isuri itazongera kwibasira ingo zituye munsi yayo, kuko imizi y'ibiti ifata ubutaka neza.

Abaturiye ikibaya cya mwogo nabo bavuga ko ubworozi bw'amafi buhakorerwa bidakwiye ko abantu bahatera amashyamba ku nkengero zacyo, bitewe n'uko ibiti byinshi byangiza umusaruro w'amafi.

Mu rwego rwo kurengera no guteza imbere amashyamba, ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amashyamba cyavuze ko nta muntu wemerewe kujya mu ishyamba kimeza ngo abe yarisarura atabiherewe uburenganzira.

Ishyamba rya Nyungwe ni ishyamba ry'icyitegererezo kubera ko umuntu igihe aribonye cyangwa se arinyuzemo, usanga nta kintu na kimwe cyerekana ko atari kimeza.

Gutera aya amashyamba ku misozi, birigushishikarizwa buri wese ubyifuza, yaba abishaka ndetse atanabishaka, aho ikigo cy'Igihugu gishinzwe kurengera amashyamba, kivuga ko muri uyu mwaka hagomba guterwa ibiti, ibihumbi magana arindwi nibura buri mwaka.

Umugabo umwe ukunda guhinga inyanya mu gishanga aravuga yuko kugira yuzuze umufuka umwe inyanya agomba gukoresha udutebo tubiri kugira ngo nyuma azijyane ku isoko.

Gutera igihingwa kirimo imyembe ndetse n'izindi mbuto zitanga umusaruro, biravugwa yuko ari byiza kuzizengurutsa amabuye ubundi kugira ngo zijye zibasha kwakira amazi neza.

Mu rwego rwo guteza imbere, ibikorwa by'ubuhinzi mu Rwanda, Ibishyimbo byashyizwe mu gihingwa kizajya cyunganira abaturage, mu kwirinda bwaki.

Indabyo nazo zitanga amafaranga atari make ku bantu biyemeje kuzicuruza kinyamwuga, kuko zibafasha kwiteza imbere mu gihe abaje babagana basanze bazifite zikiri nzima zitarangijwe.

Guhinga inyanya mu buryo bwa kizungu ni byiza kuko bituma zera neza kandi umusaruro ukikuba, hari benshi bakomeje kuvuga y'uko ubu buryo bwo kuzihinga bwabahinduriye ubuzima ku buryo bufatika.

Uburyo bwo guteza imbere ibikorwa bituruka ku buhinzi bw'imbuto, abaturiye igishanga cyo muri bishenyi barakangurirwa gutera inyanya ndetse zavamo bagahinga na puwavuro, ibi bikaba bikoreshwa mu kuribwa n'abaturage hirindwa indwara zabataka.

Umuyobozi w'Akarere ka Muhanga nawe yifatanyije n'abaturage, mu gikorwa cyo kubagara ndetse no kubungabunga igihingwa cy'amashu ya kizungu kubera ko byavuzwe yuko iki gihingwa ari ingenzi mu buzima.

Imbuto nyinshi zirimo inyanya, kokombure, pome n'ibindi; igihe zisaruriwe hamwe zigashyirwa mu kintu kimwe uretse no kuba zigira intugamubiri ahubwo zigaragara neza.

Imbuto zirimo inyanya, ibitunguru, inkeri, kokumbure ndetse na pome nizo zishobora kwifashishwa mu gutegura amafunguro y'abanyamahanga mu maresitora.

Inyanya za kijyambere igihe zihinzwe ahantu habugenewe zera neza, kandi zigatanga umusaruro mwinshi bitewe n'uko ziba zahawe buri kimwe cyose zikeneye.

Abuhira mu gishanga cya Ntarama bavuga yuko ibi bishobora kuzabateza igihombo gikomeye igihe hatihutishijwe uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga nk'amamoteri ndetse n'ibindi.

Ibihingwa birimo, amateke ndetse n'imyumbati, usanga ahanini abantu batabikunze, ariko, amateke yo yera mu bishanga, cyane cyane n'ahantu, hari ubutumburuke buke.

Mu bikorwa byo guteza imbere ubuhinzi, hari uburyo bwashyizweho bwo kuhira imyaka, hakoreshejwe ikoranabuhanga kuko ibi ngo bituma iterambere ndetse n'umusaruro wiyongera.

Abakora ibikorwa by'ubuhinzi cyane cyane mu gishanga, hari igihe bifashisha amamoteli ndetse n'ibindi byuma bigezweho, bikoreshwa mu kuhira ubundi imyaka yabo igakora neza kandi igatanga umusaruro mwinshi.

Igihingwa cy'amashu nacyo gikomeje kugira umumaro utari muto, mu guhangana n'inzara ndetse n'ibura ry'ibikomoka ku mbuto mu Rwanda kuko hari igihe abantu iyo batabikoze neza, usanga ibihingwa byabo byumye.

Kuhira imyaka mu buryo bwa gakondo ukoresheje ibikoresho by'ibanze nka rozwri icyo gihe ntabwo umusaruro wiyongera bitewe n'uko umuntu ashobora kunanirwa ugasanga izindi mbuto ntabwo zuhiwe.

Ikiraro gihuza Akarere ka Bugesera na Gasabo cyashyizweho uturindadabasazi, ibi bimenyerewe mu ndimi z'amahanga nka garidefo mu rwego rwo kwirinda ko haba impanuka z'abantu bakigwamo.

Mu dusozi dukomeye two mu birunga biravugwa ko igihe umuntu abashije kugera hejuru yatwo ,ashobora kumva amahumbezi atigeze abona kuva yabaho.

Mu misozi idahanamye cyane, hari abantu bakomeje kuyiteramo insina ndetse n'ibindi bitandukanye nk'amashyamba, mu buryo bwo kugira ngo bazirinde isuri iyori yo yose yaturuka.

Mu rwego rwo guteza imbere ihingwa ry'imbuto mu rwanda, ni ngombwa ko hashyirwa imbaraga mu guhinga ibinyomoro, kuko ari urubuto rwiza ruza ku isonga mbere y'izindi zose mu kongerera amaraso.

inteko ishinga amategeko y'u Rwanda na yo yemeje ko hubakwa hoteli nziza kandi y'ikitegererezo aho bamwe mu bacamanza bazajya basohoka bakitegera ibirunga ubundi bakaruhuka.

Guhinga ndetse no gutera imyaka ku mpinga z'imisozi, nabyo byagiye bishyirwamo ingufu bitewe nuko habanje igikorwa cyo guca amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kwirinda iyangizwa ry'ubutaka ryaterwa n'isuri.

Ikiyaga cya muhazi nacyo gikomeje kuba agatereranzamba, bitewe n'uko abarobyi babujijwe kugikoramo uburobyi, bitewe n'uko amafi atari yakura, ibyo bigatuma abaturage binubira imyanzuro y'ubuyobozi.

Inka zitagira amahembe, zizwi mu bwoko bwa imfirizoni, zikomeje gutanga umusaruro ugereranyije n'izahozeho nk'inyambo cyangwa se n'izindi, bitewe n'uko izi nka zikunda, gutanga umukama cyane.

Uburyo bwo kwirinda ko ihene ndetse n'ayandi matungo magufi nk'intama bicika burundu, hashyizweho uburyo bwo kuzorohera ahantu hamwe kandi hakororwa iza kijyambere.

Ingurube ziza ku isonga mu kwihutisha umusaruro bitewe n'uko nibura ishobora kubwagura kabiri mu mwaka ugereyije n'andi matungo yose magufi, aho imwe ishobora kubwagura nk'ibyana byayo nka birindwi.

Inkoko nyinshi zitanga umusaruro igihe zagaburiwe, ndetse zigahabwa amazi ku buryo buhagije, kuko igihe bidakozwe bityo, nta musaruro wabona waba uw'amagi, ndetse n'inyama zazo ziratuba.

Ingurube iri mu bwoko bwa kizungu, ishobora gutanga umusaruro bitewe n'ukuntu yashyizwe ahantu hafunganye kandi hatayiteza ikibazo.

Nyagatare, bitewe n'uburyo ari ikirambi ndetse buri wese yakwifuza kuhororera, ni nayo mpamvu bamwe muri ba rwiyemezamirimo bahahisemo, kugira ngo bahororere inka nyinshi z'inyambo.

Inkoko ndetse n'amapondezi ngo bikomeje gutanga amagi menshi cyane kuko igihe zitaweho ubundi zigahabwa ibyo kurya bihagije zishobora gutera nibura kabiri ku munsi mu gihe izindi zo zitabikozwa.

Ihene nyinshi, igihe ziragiwe neza kandi zikitabwaho, zishobora gutanga umusaruro uri hejuru, harimo inyama ubwoya n'ibindi.

Guha ibinini by'inzoka amatungo akiri magufi nk'ihene, intama ndetse n'ingurube bituma atabasha gukura imburagihe ahubwo agatanga umusaruro mu gihe gito.

Kugaburira amatungo neza kandi ukayaha amazi ku gihe ni ngombwa ko wita nanone aho arara maze ubundi umusaruro wayo ukiyongera.

Urubyiruko na rwowo rutozwa buri gihe gukama inka nk'abandi, kugira ngo rutazaba imbwa, ahubwo rukazajya rwiteza imbere, rukora imirimo iyo ariyo yose ibonetse, rukirinda gushyira amaboko mu mufuka ahubwo rugakora.

Inkoko iyo zihawe amazi ku gihe ndetse n'ibyo kurya byazo ubundi zikaryama ahantu heza hatari imyanda biziha ubushobozi bwo kuramba ndetse zigatanga umusaruro wikubye inshuro ebyiri izisanzwe zo mu cyaro.

Kororera ingurura ahantu heza hisanzuye, bituma nayo iyo igiye kubwagura, idashyiramo ubunebwe kubera ko hari igihe usanga ibwaguye ibyana byayo nk'umunani cyangwa icumi bityo bikaba inyungu, kuri ba nyirayo.

Imbuto zirimo ibiriti ndetse n'umuceri udatonoye nizo zituma abantu bacika intege bitewe n'uburyo zishyirwa mu nganda, umuntu atabikora ku giti cye ngo abishobore.

Mu buryo bwo kuvumbura ibigori haje ikoranabuhanga ry'utumamashini twifashishwa mu kugira ngo umusaruro w'ibigori ube wakurwa ku gitiritiri ahubwo bikihuta cyane.

Kugira ngo ubone umusaruro wifuza kandi wishimiye ni ngombwa ko wita ku bintu bikurikira haba mu kubagara ndetse no guhumbika imyaka nk'umurama n'igihe umaze kumera ukaba wawushyira mu bihobo maze ugakomeza uhinga gutyo.

Ubundi mu muco nyarwanda cyangwa se mu buzima abanyarwanda babayemo kirazira gufata itungo ngo uhite urigabanya abaturage ritabanje gupimwa n'abitwa baviterineri, aba bakaba bashinzwe gupima inyama z'amatungo mbere y'uko zikonsomwa n'abaturage.

Gutera inka intanga ni byiza kuko igihe yanze gufata iyo bayiteye intanga byanga bikunze itanga umusaruro kandi abana na bo bakabigiramo inyungu bakanywa ibituruka ku mukamo wayo.

Abaveterineri benshi babigize umwuga bifashisha abandi bagenzi babo b'abaturage kugira ngo babafashe gukemura ikibazo cy'ubuvuzi bw'amatungo bitewe n'uko inka cyane cyane ari zo zigorana mu gihe bari kuzivura.

Mu bikorwa byo kuvura amatungo ni ngombwa ko umuntu ubikora aba yarabyize ariko hakirindwa na none kubikora utabifitiye ubumenyi buhagije kuko amwe muri ayo matungo yahatakariza ubuzima.

Mu rwego rwo kwirinda ko ba rushimusi bakomeza kwibasira inyamaswa zituye mu mapariki y'ibihugu, mu Rwanda ho nta muntu ukivogera itungo iryo ari ryo ryose ngo araryica.

Zimwe mu nyamaswa z'inkazi zo mu mazi nk'idubu igihe abaturage batazigendeye kure zishobora kubangiza bitewe n'ubukana izi nyamaswa ziba zifite, aho ubushakashatsi bugaragaza ko iyo iramutse ikurumye ushobora no gupfa.

Imbwa z'agasozi cyangwa se impyisi zikomeje kuburirwa irengero bitewe n'ukuntu zigira amahane abantu benshi nka ba rushimusi iyo bahuraga na zo bakaba barazicaga ku bwinshi.

Nubwo benshi bakomeje kwibaza niba ingamiya zarazimiye ariko ntabwo ari ko biri kuko mu ishyamba ry'Akagera harimo izi nyamaswa kandi zikaba ari wo mwihariko wazo kuharangwa.

Inkende n'inzovu bishobora kwinjiza amafaranga menshi cyane cyane intare n'ingwe bitewe n'uko ari ibisimba biza ku isonga mu bunini ku isi.

Bivuga ko cyane cyane mu nyamaswa z'inkazi, zikunze kuba ahantu aho ariho hose harimo n'intare, aho ubushakashatsi bugaragaza ko no mu butayu yamarayo umwaka.

Ingwe ikunze kuvugwaho ubudahangarwa ndetse n'ubukana bwayo igihe iri ku muhigo. Cyane cyane abahanga bavuga ko igihe wari kugenda, ishobora kuguturuka inyuma ukarinda ugira iyo ujya utabimenya ko ikuri inyuma.